Abantu bahagaze imbere y'umutaka wa MTN, hakaba hari umusore wambaye ijire ya MTN, ndetse n' numugabo wambaye umupira w'umutuku w'amoboko magufi, umuhagaze iruhande. Bisa naho arimo kumusaba serivisi zitandukanye zirimo kubitsa, kubikuza, kugura amayinite n'ibindi.

Umugabo wambaye itaburiya y'umutuku ya Airtel akaba yicaye ku ntebe iri mu marange y'ubururu, ari imbere y'akazu kari mu mabara y'umuhondo ka MTN gatangirwamo serivise zijyanye no kubitsa no kubikuza kandi inyuma y'aka kazu hari akandi kazu ka Airtel ndetse n'imodoka iparitse inyuma yako.

Abantu bambaye imyenda isa bigaragara ko bari mu gikorwa cy'umuganda, hirya yabo hari ibihuru bisa n'aho ari ahantu mu gisambu kitari gisanzwemo gihingwamo, bityo bakaba baje gukora umuganda kugira ngo naho hagirirwe isuku.

Inyubako ihunikirwamo ibigori cyangwa se indi myaka itandukanye, ikaba ihunitsemo ibigori, guhunika ibigori ni byiza kuko byifashishwa mu gihe hatariho ibigori cyangwa se ibindi biribwa, imbere y'inyubako hakaba hari ikigega cy'amazi.

Isoko ricururizwamo imboga. Imbere hakaba hari ahantu hagiye hasutse inyanya, ku buryo umukiriya ushaka kugura inyanya, ashobora kuza bakamuha serivisi nziza kandi inoze.

Abantu bambaye imyenda y'amajire isa bose bakaba bari ku magare bigaragara ko bakina amarushanwa yo gusigana ku magare, hirya yabo hari akazu ka MTN kari mu mabara y'umuhondo gatangirwamo serivisi zijyanye no kubitsa no kubikuza, hino hakaba hari abantu bashungereye abanyonzi.

Abantu benshi batandukanye hakaba hari abamama barimo kwanika ibigori ku gihangari, igihangari akaba ari igikoresho kifashishwa mu gihe abantu barimo kwanika imyaka mu rwego rwo kugira ngo imyaka itunganyirizwe ahantu hamwe kandi yitabweho neza bityo hazaboneke umusaruro mwiza.

Igishushanyo cy'icupa rya Virunga, Virunga akaba ari ubwoko bw'inzoga abantu benshi bakunze kunywa, iri cupa ni icyatsi rikaba ririho ikirango kigaragaza ubwoko bw'inzoga irimo, kikaba cyometse ku gikuta giteyeho umucanga ndetse na kabarasasu.

Inyubako y'ubucuruzi, hakaba harimo intebe, abakiriya bicaraho, imbere y'intebe hakaba hari ahantu hari kotwari na etajeri irimo inzoga z'moko yose bacuruza, kandi hakaba harimo na firigo zibikwamo ibyo kunywa.

Akabati keza cyane karimo ibintu bitandukanye, hakaba higanjemo ibinyobwa bisindisha ariko nanone ku rundi ruhande hakaba harimo n'ibinyobwa bidasindisha. Ni byiza ko abantu birinda kunywa inzoga cyane kubera yuko inzoga zangiza ubuzima cyane cyane ku muntu uri munsi y'imyaka cumi n'umunani.

Umuhanda ukorerwaho ubucuruzi butandukanye, hakaba hari ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu ngo. Hirya hakaba hari akazu k'umutuku gatangirwamo serivisi zijyanye no gucuruza amainnete, kubitsa no kubikuza n'ibindi. Hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'lpantaro y'ikoboyi waje gusaba serivisi.

Abantu benshi bari mu rusengero, bikaba bisa n'aho ari mu rusengero rw'abanyagatulika kuko nibo bakunda gukoresha ibishushanyo byinshi babitaka muri kiliziya, harimo abantu bambaye imyenda y'umweru, bisa n'aho ari abahereza.

Abana bicaye mu ishuri ry'inshuke bigaragara ko ari ho biga, imbere hari umukobwa uhagaze bisa n'aho ari umwarimu wabo, ku gikuta hagiye hashushanyije amatungo atandukanye: ihene, imbata, urukwavu ndetse n'ayandi menshi.

Inyubako nini cyane yubatse mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako bisa nkaho ari urusengero rusengerwamo n'abantu benshi batandukanye, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya menshi cyane, ikaba isakaje n'amabati ajya gusa ubururu.

Urusengero rusengerwamo hakaba hari abantu bahagaze imbere y'ubwinjiriro bisa n'aho barimo gusohoka mu rusengero, urusengero ni ingenzi cyane kubera yuko abantu bahahurira ubundi bagasenga Imana bityo bakayisaba icyo bifuza.

Ahantu hubatse neza ubona ko hari amafu, hakaba hari ubwogero bwa kizungu abenshi bita pisine mu ndimi z'amahanga, imbere y'ubwo bwogero hakaba hari intebe abantu bamaze koga bicaraho ubundi bakaruhuka.

Imigati y'amoko atandukanye iteretse ku tuntu tumeze nk'amaparato, hakaba hari n'ibiryo biteretse imbere ku maparato harimo inyama, amasambusa ndetse n'isosi y'umufa.

Inyubako iteye amarangi meza cyane, hakaba harimo inzugi nziza zigezweho, hakaba harimo idara ririmo amatara yaka neza cyane ubona ko ari ahantu hasa neza, hasi hari itapi ibengerana.

Icyumba cy'uruganiriro akaba ari icyumba kirimo ibikoresho byiza cyane kandi bigezweho hejuru hakaba hari ibipirizo ndetse hirya hakaba hari amarido akingirije ibirahure, inyuma yaho hari imitako itandukanye.

Abantu benshi bateraniye mu nzu, bigaragara ko hari ikiganiro baje kwitabira, hakaba hari umugabo uhagaze imbere y'akameza karekare, bisa naho ariwe uri gutanga ikiganiro, iruhande rwe hahagaze umumama wambaye itariyaburiya umeze nk'umuganga.

Inyubako irimo kontwari, muri kontwari hakaba hari umugabo bisa naho ariwe utanga serivise zitangirwa hano, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa, iterekwa mu biro itagendanwa.

Inyubako y'igorofa yubatse ahantu hasijije neza, imbere yayo hakaba hari imodoka ihaparitse bigaragara ko nyiri iyi nyubako ari yo agendamo, iyi nyubako isize amarange y'umuhondo isakaje kandi amabati y'umutuku.

Ahantu hari intebe nyinshi cyane bisa naho ari mu kabari, hagiye hari intebe zigiye zizengurutse ameza bigaragara ko ari ho abakiriya baje babagana bagenda bicara bitewe nuko bazanye.

Intebe zitandukanye ziteretse iruhande rw'ubwogero abenshi bita pisine mu ndimi z'amahanga, pisine akaba ari ahantu heza cyane abantu benshi bakunze kuza gutemberera ubundi bakoga mu rwego rwo kugira ngo bishime, inyuma y'izi ntebe hari ubusitani buteyemo umucaca.

Abantu benshi cyane bateraniye mu nyubako bigaragara ko hari ikiganiro bitabiriye, n'inyubako ifite ibirahure, hejuru harimo ibipirizo, hasi hari ahantu h'ikizeru abayobozi bakuru bahagarara, hanyuma umuyobozi akababwira ikibateganyirijwe.

Abantu benshi batandukanye, bakaba bari mu isoko cyangwa se iguriro. Urabona ko hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, abagabo ndetse n'abagore. Harimo ibicuruzwa byinshi by'amoko yose ku buryo ntakintu ushobora gukenera ngo ukibure.

Ameza ateretseho ibyo kurya bitandukanye, inyuma yaho hakaba hari ubwogero abantu bakunze kogamo cyanecyane iyo basohotse. Hirya y'ubwogero hari ikibaya gihinzemo imyaka itandukanye.

Abantu bahagaze mu muhanda wa kaburimbo bakaba bari ku magare, iruhande rwabo hari igiti gifite amashami abatwikiriye bisa naho barimo kugama agacucu, iruhande rw'icyo giti hari inzu ifite igipangu gisize amarange y'ubururu.

Umumotari wambaye ingofero y'ubwirinzi ari kuri moto arimo gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwe hari abantu barimo gutambuka ku ruhande rw'umuhanda, hepfo y'umuhanda hari inyubako z'ubucuruzi zubatse mu buryo bwa konoshi, inyuma yazo hateye ibiti bikurura umuyaga n'amahumbezi.

Umuntu uri kuri moto akaba afite n'undi muntu ahetse, bari kuri moto isize amarangi y'umutuku, bari gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, bose bambaye ingofero zibarinda kuba bakomereka mu gihe baba bakoze impanuka.

Imodoka ijya gusa umukara, ikaba irimo gutambuka mu muhanda wa kaburimbo. Kaburimbo ni umuhanda mwiza cyane, kubera yuko utuma ibinyabiziga bitambuka neza nta mikuku, kandi bikoroha kugera aho umuntu ashaka kugera bitagoranye.

Umuntu uri mu modoka bigaragara ko arimo kwerekeza ahantu runaka. Akaba afashe deregisiyo yifashishwa mu kuyobora imodoka. Imodoka akaba ari ikinyabiziga abantu bifashishwa mu gukora ingendo zitandukanye mu gihe bashaka kugera ahantu runaka.

Umumotari wicaye kuri moto, akaba yambaye ingofero imurinda kuba yagira ikibazo ku mutwe mu gihe akoze impanuka. Moto ye ifite torovizeri ebyiri, zimufasha kugenda areba ibiri guturuka inyuma.